Ndikubona ari mu muhanda hahagaze umupolisi n'undi mugabo bashobora kuba bari kuvugana, iruhande rw'aho hari umugabo wikoreye harimo n'amamoto ari kugenda, bahagaze ku mapave, hirya hari inzu ishobora kuba ari iy'ubucuruzi, hakurya y'aho hari amashyamba ni kumanywa.